Umuhinzi ari gufuhira amashu, ahetse ipombo y'umuhondo, yambaye bote z'umukara, yambaye ikabutura y'igice, ari kugenda atera rumwe rumwe, yambaye ingofero y'ubururu, ari kugenda aritegereza imbuto ze.

Imvaruganda y'umweru abantu barayikunda cyane, kuko ni nziza ku bihingwa. Iyo uyishyize ku bihingwa byera cyane, bikagira n'umusaruro uhagije. Ugasagurira n'amasoko.

Umuhinzi yateye igihingwa ari gushyiraho ifumbire ngo gikure neza, kizamuhe umusaruro uhagije, azasagurire isoko abone amafaranga, azagure imvaruganda ahinge ibindi bihingwa.

Umugabo w'umuhinzi yahinze hafi y'amazi, yambaye imyenda y'umukara, yambaye agapfukamunwa, afite agati karekare ashyinga mu mazi akamenya ahantu yaherereye kugira ngo atagwamo.

Ibihingwa biteye ku murongo, umuhinzi ari kubiteramo umuti. Yambaye imyenda yabugenewe. Ahetse ipombo, yambaye agapfukamunwa, yambaye ingofero. Ari gutera umuti ngo igihingwa kigire gukura neza, kizagire umusaruro uhagije.

Igishanga kirimo umuhinzi, kirimo imboga z'amashu ziteye ku murongo, imboga ni nziza cyane, abantu barazikunda kuko zubaka umubiri, bagakura neza.

Umuhinzi uri kugenda mu murima yatwaye indabo mu ntoki irimo imiti y'umweru, ahetse ipombo, yambaye ingofero ituma atera umuti neza atariri kurebana n'izuba, ngo ritume adatera umuti neza.

Ibihingwa biteye ku murongo, birimo abahinzi bari gutera umuti kugira ngo bikure neza, abo bahinzi bambaye bote z'umukara bahetse ipombe inyuma, ipombo ifite amabara atandukanye harimo ay'umutuku harimo ay'umweru, apfundishije umufuniko usa n'umutuku, hakurya hari amashyamba harimo n'abakozi benshi.

Abahinzi bambaye ibisarubeti by'umukara, bambaye udupfukamunwa n'amadarubindi, bose bahetse amapombo, bari gutera ibihingwa byabo ngo bikure neza, bizabahe umusaruro ushimishije.

Ikiganza gifashe agacupa, agacupa gafite amabara y'icyatsi umuhondo hari kuvamo umuti, bari kuwufuhira ibihingwa ngo bikure neza, ibihingwa bisa n'umuhondo.

Abahinzi bari gufuhira ibihingwa, bambaye udupfukamunwa, bari kumwe n'abasirikari b'u Rwanda, bambaye udupfukamunwa na bo, n'ingofero, bambaye ga z'umuhondo.

Abahinzi bari gusarura ibihingwa bari kubishyira mu gapaniye. Bari kugenda barabivanamo bike bike, ni umurima w'imitabo, bambaye amajire n'ingofero...

Umuti uri mu gacupa k'ubururu, upfundikishije agafuniko gasa n'umweru, hariho ikirango cy'umweru handitseho amagambo y'umutuku. Iyo uwukoresheje neza, ibihingwa byawe bigira isuku bigakura bitoshye.

Uducupa tubiri turi aharinganiye ariko ntago turesha. Akarekare kanditseho amagambo y'umukara na na pa na ka, gapfundikije umufuniko w'umweru, akandi kagufi ni ak'ikirahuri, karimo umuti.

Umuhinzi uri gufumbira imbuto, yambaye igisurubeti, ahetse ipombo isa n'ubururu. Yayipfundikije umupfundikizo usa n'umuhondo, arayihetse.

Amahera ari ku isahani, ararundanye. Amahera ni meza cyane abantu barayakunda, cyane cyane iyo akaranze mu mavuta aba aryoshye cyane.

Amafi abiri arimo utugozi mu kanwa, abantu barayakunda cyane, kuko ni intungamubiri abantu bakenera ngo bakure neza, bafite ubuzima buzira umuze.

Ibiribwa bituruka mu nyanja, abantu bose barabikunda, kuko byujuje intungamubiri. Cyane cyane amahera ni yo bakunda kuko adahenda cyane agura makeya.

Amahera ari mu mutego abantu bari kuyarobanura, abantu barayakunda bakunda kuyateka akaranze, ni intungamubiri ituma abantu bakura neza, bagakura bujuje intungamubiri.

Isahani y'umuhondo iriho amafi, amafi ni meza adutungira ubuzima iyo umuntu ayariye agira imibereho myiza, abantu barayakunda kuko araryoha yujuje intungamubiri abantu bakeneye ngo bagire imibereho myiza.

Indobo isa n'umuhondo iteretse hasi, irimo amafi yuzuye ahiye. Ni meza cyane abantu barayakunda kuko ari intungamubiri.

Amasupanete ari mu mazi, aroba amafi akazamuka. Amafi ni meza cyane atunga abantu, bakagira imibereho myiza.

Ikizenga abantu bacukuye bororeramo amafi. Hakurya hari imisozi iriho amashyamba atuma tubona imvura, imirima ikera, imyaka igakura, tukabona ibyo turya tukagira ubuzima bwiza.

Ameza ariho agasahani k'umweru. Kariho ibiryo, indyo yuzuye. Imvange hariho ifi itetse mu mavuta. Ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu, iyo umuntu ayiriye aba yujuje indyo yuzuye, nta bwo arwaragurika.

Amafi abiri, afite ibara ry'umukara .Ari mu kintu gisa n'umweru kirimo amazi. Amafi akundwa n'abantu cyane kuko n'intungamubiri. Akenewe n'abantu benshi kugira ngo bagire ubuzima bwiza bakure neza.

Isahane y'umweru iriho ifi irimo isosi abantu barayikunda cyane, kuko ni bimwe mu biryo bitunga umubiri abana bagakura neza, bafite ubuzima buzira umuze.

Ubutaka bukikijwe n'amazi menshi, hariho ibyatsi bishishe byakuze cyane, hakurya hari imisozi iriho ibihingwa, ibiti, n'imyaka.

Ibigorigori n'ibisigazwa byibigori abahinzi basiga mu murima, iyo izuba rivuye barabitwika bigakora ifumbire, bakongera guhinga imyaka yabo igakura neza.

Ibyatsi biri mu murima biratoshye, hirya hari ibiti birebire byakuze neza. Ibiti ni iby'agaciro, ni ibidukikije bituma imvura igwa, imyaka igakura.

Icyatsi cyera mu ishyamba. Cyera utuntu turyohereye abana baradukunda. Iyo bari kuturya baba banezerewe, kuko tuba turyoshye cyane, turimo isukari.

Ibigorigori ni ibisigazwa basigaza mu murima basaruyemo ibigori. Iyo basaruye barabitwika bivamo ifumbire, iyo bagarutse guhingamo barisangamo rigakuza imyaka ikurikiyeho.

Ibigorigori ni ibintu bisigara mu murima ahantu bakuye ibigori. Barabitwika bikavamo ifumbire. Iyo fumbire iyo bongeye kuza guhingamo, barisangamo rikeza imyaka.

Intabire irimo insina zicucitse cyane, hepfo hari indabo zanitseho, hepfo hari inzu, hirya hari inzira y'abanyamaguru.

Ikizitiro kiriho ibishushu, hirya hari intabire, harimo insina nyinshi zicucitse, zera ibitoki, ibitoki ni byiza, Abanyarwanda barabikunda kuko bituma bagira imibereho myiza iyo babiriye.

Umuhanda w'abanyamaguru uri kugendamo umuntu wikoreye ikidomora, hirya hari inzu y'amatafari izitije ikizitiro gisa n'icyatsi, hirya hari ikigega, ikigega cyiza cyane, abakungu nibo bibigura.

Ishyamba ry'intusi ni ryiza cyane , kuko iyo rikuze rizana imvura, abantu bakagira imibereho myiza.

Imifuka ibiri iri mu nzira umwe usa n'umweru, uwundi usa n'umukara, ruguru hari ibyatsi, hirya hari abahinzi bari kuvana ibyatsi mu murima ngo bateremo' imyaka, ikure imeze neza.

Umurima urimo ibyatsi byinshi, hepfo hari insina ifite ibirere, hirya hari ibigori batari basarura bikifite n'ibyatsi, inka zirabikunda cyane.

Umurima urimo ibyatsi. Hirya hari inzu yubakishije amatafari y'umutuku. Amatafari y'umutuku ni meza cyane, barayatwika, bakayubakisha, araramba kurusha ayandi bakoresha.

Ibiti bicecetse bikoze ishamba. Ibiti ni byiza cyane ku buzima bwa muntu, bituzaniraga imvura, yagwa imyaka igakura, tukagira ubuzima buzira umuze tubikesha ikirere kimeze neza cyane.

Intabire ihinze neza irimo amabuye, itaka risa n'umukara ni ryo ryiza ku bahinzi. Heramo imyaka myinshi kandi myiza iha amafaranga n'ubukungu.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, harimo kameroni, bahinga mo urutoki, bahingamo ibigori, kugira ngo byere neza babagara ibyatsi bakabivanamo, bakabishyira hanze ya wo.

Ikiyaga kirimo amazi atuje kiri gutemba. Gikikijwe n'ibyatsi ,barwanyije isuri bari gutera imigano kugira ngo ubutaka budatemba. Ikiyaga kibamo amafi n'amasonzi.

Abagabo bari gushorera inka umwe ari imbere undi ari inyuma, bari kumwe n'inka ebyri, umwa yambaye agapira k'umuhondo bari guca mu nzira ifunganye.

Intabire y'umukara ni nziza cyane ku bahinzi, iyo iteyemo ibihingwa bikura bitoshye, kuko yifitemo imvaruganda karemano ituma ibihingwa bimera neza, bikagira umusaruro uhagije.

Ibyatsi bisa n'icyatsi, biri mu murima harimo n'insina, hirya hari gitari, gitari ni cyiza iyo gikuze ni ibidukikije, bituzanira imvura, tukagira imibereho myiza.

Ibigori byeze, biri hafi gusarurwa. Biteye ku murongo hasi hari ibyatsi, hirya hari ishyamba. Abantu barabihingira iyo biri hafi kwera, kugira ngo bigire umusaruro uhagije.

Imyaka iri mu murima iratoshe cyane, kuko bazishoraho imvaruganda, kugira ngo igire umusaruro mwinshi, bawujyane ku isoko, umusaruro wiyongere, bagira amafaranga abateza imbere.

Igikuta cy'amatafari y'umutuku arimo agasima, hasi hari isombe n'imboga n'ibyatsi biri hasi. Ni ibidukikije bituzanira umwuka duhumeka ni iby'agaciro kuko bitubeshaho.

Ikibaya kirimo ibyatsi bitoshye, harimo amabuye atandukanye, hirya hari abantu bahubatse, hari ishyamba ryakuze, ishyamba ni ryiza, ishyamba rituzanira imvura ikagwa mu bihingwa, tukagira imibereho myiza.

Imifuka ihagaze irimo ibirayi. Abantu bayirundanyije, imbere hari igare, hirya hari imodoka. Hari abantu benshi, hari abantu bagiye kubiterera mu modoka ibipakire.

Imyembe iri ku mufuka, irunze ine ine harimo isa n'umuhondo, isa n'icyatsi, igiye gusana n'umutuku, abantu barayikunda, yubaka umubiri n'ibiribwa bikunzwe n'abantu benshi.

Ubwoko bw'imbuto butandukanye ibitunguru, puwavuro, karoti ,kokombure, urusenda, imiteja, intoryi biri mu byubaka umubiri. Abantu barabicuruza bagatera imbere, n'abahinzi barabihinga cyane.

Imyumbati ni myiza cyane, abantu barayikunda, ikundaga kwera mu majaruguru, bayiteka bayigeretse ku bishyimbo bimaze gushya, byamara kubira bakabirongora.

Ishu ryakuze neza, ryatewe neza, rifite amababi menshi ari ruguru, ari hirya, n'ari hepfo. Izuba riri kurivaho. Izuba rifasha igihingwa gukura, kigakura neza.

Akabase gasa n'ubururu karimo imbuto z'amatunda. Amatunda ni meza cyane ku mubiri w'umuntu, abantu barayakunda kuko aryoha cyane. Cyane cyane abana ni bo bayakunda.

Ibiti bitewe k'umurongo, iyo byitaweho bikura neza, bikazamuka, bikaba byinshi, bigakora ishyamba, bikatuzanira imvura tugahinga, tukagira imibereho myiza, n'ubutaka bukaba bwiza.

Umugore ufashe ibirayi mu ntoki, imbere ye hari umufuka n' ibirayi, inyuma hari isuka, yiteze igitambaro cy' umutuku, yambaye ijipo isa n' ubururu, inyuma y' aho hari ibyatsi, hakurya hari ikirere gisa n' ubururu.

Ikibaya kirimo ibyatsi byinshi harimo ihene, amahene mu Rwanda barayakunda, kuko kuyorora nta bwo agorana, arya ibyatsi byose, bakunda kubona byera mu rwanda.

Ihema ry'ubururu ririho ibigori bisa n'umweru, birimo amasaka bajya kuyabetesha hakavamo igikoma, igikoma abana barakinywa bagakura neza bafite ubuzima bwiza cyane.

Abahinzi bari guhinga mu murima w'umukara, biteze ibitambaro by'umuhondo. Umwe afite isuka mu ntoki, barahagaze, bakenyeye ibitenge, bari kureba inyuma. Hakurya hari amazu asakaje amabati y'umutuku.

Abantu bambaye ingofero z'umweru, amataburiya y'umweru, bafite avoka batondetse ku murongo bari kuzishyira mu bikarito, bari kuzibara. Hirya hari ibindi bikarito.

Ahantu bacururiza ibiribwa, hari ibiribwa by'amoko yose, hari ibishyimbo biri mugapaniye, hari n'amajeri ari mu ishashi, hirya hari imyembe isa n'icyatsi ruguru hari ibigori bikiri bibisi.

Abadamu bakenyeye ibitenge, bafite inanasi bari guseka impande yabo hari ibyatsi n'indabo zisa n'umuhondo bari guseka ,barishimye. Iyo umuntu ariye inanasi agira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Insina ziteranye n'ikawa, barazisasiye, ikawa ni nziza cyane iyo umuntu azihinze, ni igihingwa ngandurabukungu zigira amafaranga bakazigurisha mu mahanga.

Umuhinza urimo umurima ,ari guseka yiteze igitambaro cy'mweru ,yambaye ishati y'umweru n'umukara, inyuma ye hari urutoki rusa neza, Inyuma ye hari umuntu ari guhingire ibigori ari kuvanamo ibyatsi.

Abahinzi bari guhingisha amasuka bakenyeye ibitenge, harimo uri guseka, hari uwasokoje umusatsi , hari abiteze ibitambaro, hari uri guhinga, hari uzamuye isuka, inyuma hari ibiti, hari undi uri gutera imbuto.

Uruboga rw'amashu rwakuze neza, rufite amababi ku mpande zombi, izuba riri kururasaho, izuba ni ryiza cyane ku rubuto, rituma rukura neza, rukazamuka neza, abantu bakazazirya, bakabona intungamubiri.

Isoko ry'ibiribwa ririmo imbuto nyinshi, imyembe, indimu, amapapayi, imbere hari abaguzi bambaye ibitenge, bikoreye udupaniye na two turimo imbuto.

Imiteja irunze hamwe ni imboga. Abantu barazikunda, zubaka umubiri, zituma abantu bakura, bakabahoha neza, bakagira imibereho myiza. Abazihinze babona amafaranga bakiteza imbere.

Umuhinzi ari hagati mu mboga, ari kuzifumbira, ari kuzisasira, yambaye ishati y'icyatsi, arunamye, yambaye ipantaro yumukara, ari kuzitaho. Imboga ni nziza ku mubiri wabantu, iyo uziriye neza, ziragufasha.

Abahinzi bari kurobanura imyaka basaruye, bambaye ingofero, izuba riri kuva, inyuma yaho hari ibyatsi bisa n'icyatsi, n'ibiti bihagaze barambikaho imyaka yabo.

Ahantu bacururiza ibiribwa. hari intebe isa n'ubururu, hari imifuka y'umweru ipakiyemo ibintu. Bahacururiza ibitoki igitoki ni cyiza cyane abantu benshi baragikunda.

Abahinzi bari kwita ku bishyimbo, ibishyimbo biracyari bitoya, biteye ku muronko, bari kubishingirira, harimo abambaye neza bambaye amashati y'umweru n'ingofero z'imyeru, n'inkweto z'imikara.

Ikibaya kirimo ibyatsi bitoshye, harimo ishyamba rimeze neza, ishyamba ni ryiza, kuri ino si, iyo bikuze bizana imvura, ibihingwa bigakora.

Abahinzi bari mu murima bari gusarura umuceri, hakurya hari ishyamba ry'inzitane, ni ryiza ku buzima bwa muntu rizana imvura bagahinga, bakeza ,bagasarura bikesheje imvura.

Amatarasi y'indinganire ashyirwa ku musozi, kugira ngo arwanye isuri, amazi ye gutwara ubutaka. Bateramo ibiti, ibyatsi hari n'aho basiga aho gutera imyaka, kandi yera neza, kuko ifumbire zidatwarwa n'amazi.

Umuhinzi w'ibigori ahoramo cyane, kugira ngo bimere neza, bizamuhe umusaruro uhagije, bizamuteza imbere, bizamuhe amafaranga ahagije.

Umuhinzi avuye mu murima ahetse isuka ku rutugu, ari guseka ari mu ishyamba yambaye ikoti ry'umutuku yambaye ingofero.

Amajyeri arundanyije hamwe ni meza cyane, iyo atetse agashya abantu barayakunda, kuko aba aryoshye, aba yujuje intungamubiri zikenerwa n'abantu b'ingeri zose.

Isoko ririmo imbuto. Inyanya zitukura, imyembe, pwavuro hasi hari imifuka. Abakiriya baza baje guhaha ibiribwa byiza, cyane cyane inyanya.

Abahinzi bari gusarura, bari kugenda ku murongo, bari gusoroma gake gake kugira ngo bizashibuke neza. Ni byiza kugenda ufite igipaniye inyuma kugira ngo ugende ushyiramo, kuko urugendo uba uri gukora ruba ari rwinshi, uri kugende usoroma ibyo uri gushaka.

Umworozi uri mu nkoko. Ari kuzigaburira, ari kuziha amazi mu kantuza k'umukara, hasi gasa n'umutuku. Inkoko ziri kwirundanya ziri gushaka uko zirya, inyuma ye hari izindi, hirya hari izindi, hari izifote umweru inyuma...

Abagabo bari mu muhanda bafite ibinyabiziga bihetse ibyansi, babishyiramo amata bakayajyana kuyagurisha, babaha amafaranga abateza imbere.

Amateke ya Bwayisi, afite utubara mu nda, ni abiri ari imbere, inyuma hari irindi risa n'umukara, yera mu gishanga, abantu barayakunda,

Umugabo yambaye agapfukamunwa k'umutuku, yambaye ishati y'umweru, afashe urubuto mu ntoki, agiye kuruhagura aruvane aho rwakuriye ajye kurutunganya arurye.

Avoka zasaruwe, bazishyize hamwe ngo zizashye bazijyane mu isoko. Hirya hari ibikarito bisa n'umuhondo, bisa na kaki, na byo babishyiragmo voka iyo zabaye nyinshi.

Umurima urimo imboga z'imiteja, imiteja ni myiza cyane, abantu barayikunda, kuko yujuje intungamubiri, umubiri ukenera buri munsi, ngo ugende urakura neza.

Ibigori byahinzwe kijambere. Byera umusaruro mwinshi, bigatubuka, bikungura abahinzi, bagahaza isoko, bigakura bishishe bisa neza.

Ibirayi birundanye babishyize hamwe. Iyo wabifumbiye neza, biba biryoshye, abantu barabikunda kuko ari indyo nziza ihendutse, abantu benshi bisangamo, ni byiza cyane ku bantu kuko ni intungamubiri.

Ibihaza bitondetse ku murongo babiciye neza ,ni iby'amabara, n'umugore n'umugabo bari kubicuruza biri ku meza, inyuma har'inzu y'ibirahuri iteye irangi ryiza, hirya hari abandi bantu bahari baje kubihaha.

Umuhinzi afite igihaza. Inyuma ye hari ibigori. Ibigori ni byiza cyane. Iyo umuntu abiriye agira ubuzima bwiza, akagira intungamubiri, agakura neza.

Inyanya za kijyambere zera ari nyinshi zirundanye. Inyanya zeze neza, ziba zisa n'umuhondo. Ibitusha biba bisa n'icyatsi biri hafi kwera.

Umugabo arasutamye, yambaye umupira w'amabara, ari gukora mu biti bikiri bitoya, ari kubisuzuma ngo arebe ko imitwe imeze neza cyane.

Umuhinzi ari mu murima ari kubagara ibyatsi, yambaye ishati yumweru, ijire y'umweru, imbere hari agapapuro kanditseho amagambo, bizitijwe n'ibiti bishinzemo, n'imbaho zitambitse.

Amatarasi y'indinganire ni meza cyane atuma ubutaka budatemba, bayakora ku musozi, bagateramo ibyatsi. Ibyatsi ni byiza cyane kuko babigaburira amatungo.

Imbuto zitondetse ku muronko abantu barazikunda, kuko zujuje iby'umubiri ukenera ngo umuntu akure neza atarwaragurika.

Amashaza ari ku isahani, arambitse ku meza, iyo atunganyijwe avamo intungamubiri. Abantu barayakunda, araryoha cyane cyane iyo ahiye akaranzwe.

Abaturage bari mu mahugurwa yo gutera imboga neza mu mirima y'igikoni, baregeranye, bazamuye amaboko, bafite n'udutabo.

Umuhinzi ari mu murima yambaye agapfukamunwa nabi, yiteze igitambaro, ari gusarura inkeri. Hirya hari akadobo. Hari undi mugabo uri kumufasha gusarura.

Ibijumba bigerekeranye birahiye, bisa n'umutuku, bisa n'umuhondo mu nda, ni byiza cyane, bifite intungamubiri abantu bakenera buri munsi ngo bagire imibereho myiza.

Indabo ziteye neza, ziri inyuma y'inzu. Hepfo hari amabuye, munsi hari agacucu. Abantu bakunze ku kugamamo, iyo barikwirinda izuba, iyo ribamereye nabi.

Imbaho zitambitse ziriho amateke barundarunze. Amateke ni meza mu buzima bwa muntu, afasha umuntu gukura neza, agakura afite imibereho myiza.

Umurima urimo ibihingwa byinshi ibijumba, ibigori n'ibyatsi. Ni byiza cyane kuko byerera rimwe ugasarura ibihingwa bitandukanye, ugahaza urugo, ni ingirakamaro.

Abahinzi bari ku murongo bafite ibyatsi mu ntoki, bari guseka barishimye cyane kandi bakunda guhinga ibintu bibateza imbere.

Umuhinzi yambaye igisurubeti cy'icyatsi, afite inyanya n'gipaniye, ari kuzisarura ngo azijyane mu isoko bamuhe amafaranga agurare imiti, yongere gutera n'izindi nazo zitukure.

Abantu bishyize hamwe bagiye gutera ibiti, ibiti ni ibidukikije bituzanira imvura. Harimo abambaye agapfukamunwa, harimo abafite amakayi, harimo abambaye ingofero.

Umuhanda uhagazemo abantu ,bari ku murongo nko bakenyeye ibitenge, biteze udutambaro . Inyuma yabo hari ibitoki . Hirya yabo hari ishyamba. Ishyamba ni ryiza ku buzima bwa muntu, rituzanira imvura tukagira imibereho myiza.

Umuhinzi ari mu murima, ari kwita ku bihingwa kugira ngo bizamuhe umusaruro, abijyane ku isoko bimeze neza, abone amafaranga yiteze imbere.

Indimu eshatu ziragerekeranyije. Ebyiri ziri hasi, imwe iri hejuru. Abantu barazikunda cyane kuko ni umuti uvura ibintu byinshi.

Imiteja irundanye, ni imboga Abanyarwanda bakunda, kuko ziraryoha, iyo umuntu aziriye, aba yubatse umubiri kuko zirinda indwara, Abanyarwanda barazikunda cyane.

Abahinzi bicaye mu myaka, izuba riri kuva, bafite inzu iteye irangi ,ry'umweru amadirisha asa n'umukara, banitse imyenda y'amabara, harimo iy'icyatsi, harimo iy'umweru, harimo iy'umukara.

Insina za kijyambere zifite ibitoki, zifite amakoma makeya zisa n'umukara, hakurya hari ibigori hari ikizitiro kiriho ibyatsi bisa n'icyatsi, itaka risa n'umukara.

Imboga z'amashu ni imboga nziza zigira intungamubiri, abantu barazikunda, zera zegeranye, bazisarurira rimwe kandi ni nziza. Abahinzi bazihinze babona amafaranga akabateza imbere.

Agapaniye gasa n'umukara, karimo imbuto z'intoryi, intoryi bazihinga mu murima, bagenda bakuramo urweze.

Igihaza gikuze, mu nda haba hasa n'umuhondo. Inzuzi ziba zikuze ziba ari nziza ku buzima bwa muntu. bazivanamo bakazanika, bazumisha bakazikaranga. Zivamo agafu k'intungamubiri ku mubiri w'umuntu.

Imiteja iri mu mifuka y'umweru iratondekanye ku murongo, abantu barayikunda kuko iraryoha ni intungamubiri. Ni imboga umubiri ukenera ziri ku isoko abantu bakunda kuzihinga bakabona amafaranga.

Abahinzi bari gusarura umuceri bafite akayuya bambaye imikara hejuru, ni mu gishanga umwe arunamye undi ari inyuma y'undi, bari gusarura bashyira mu mufuka, hakurya hari igitari, hari ishyamba rinini.

Imiteja ifite amabara atandukanye, hari isa n'icyatsi, hari isa n'umuhondo, iri mu ipaniye, ipaniye ni nziza, itwara ibintu neza, ntibigende byangiritse.

Ihema ririho ibishyimbo bari kurenga kugira ngo barebe ingano yabyo harimo ibisa n'umutuku, harimo ibisa n'umukara, n'ibyumweru.

Soya ziri mu kantu k'umukara, hari izindi zirambitse hasi, ziri kwanikwa izuba kugira ngo zumishwe zibikwe neza zitamungwa. Ni nziza ku mubiri w'umuntu, abantu barazikunda cyane kuko ziryoha.

Amasaka yeze neza aba asa n'umutuku. Ni meza cyane avamo ibintu by'ubwoko bwose. Bayatekamo igikoma, bayakoramo inzoga, abantu barayakunda kuko avamo ibintu by'ubwoko bwose.

Ubunyobwa budatonoye harimo bukeya budatonoye iyo buriye ugira ubuzima bwiza. Abantu benshi barabukunda baburya bukaranze hari n'ababurya budakaranze.

Ubunyobwa budatonoye harimo bukeya butonoye, abantu barabukunda bwubaka umubiri. Ni indyo nziza ku bantu bose abato, abakuru, n'abana.

Ubunyobwa busa n'umutuku, abantu barabukunda cyane kuko habamo intungamubiri z'ubwoko bwose bunyuranye. Ni byiza abantu kuburya mu ngeri zose.

Ikigori gisa n'umuhondo, kirashishuye inyuma hari ibindi bisa n'icyatsi, hirya hari ishyamba ibyo bigori ni byiza cyane byujuje intungamubiri, iyo ubitetse biba biryoshye kurusha ibindi bigori byose.

Ibigori biri mu mifuka y'umweru bidahunguye, urabihungura hakavaho amasaro, amasaro ni yo babetesha hakavamo igikoma ,n'abanyeshuri ni byo barya, ni ingirakamaro ku baturarwanda.

Imiteja itunganyijwe itanga amafaranga ku bayihinze bakaba bigiriye ubuzima bwiza, bakagira imibereho myiza, bakagira amafaranga, bakagura ibyo bakeneye, babikesha imiteja bahinze, imiteja ni myiza ku buzima bwa muntu, itunga umubiri.

Imbuto ziri hamwe zigerekeranye, zifite imizi y'umweru. Imizi ni myiza ku bihingwa, nibyo bituma zikura zikururamo ifumbire, inyuze mu mizi.

Igisobane, ni cyo abantu ba kera babikagamo imyaka, wasaruraga imyaka myinshi cyane, ukayihunika mu mutiba ntigire icyo iba, ntinyagirwe.

Imyaka iri ku mahema bayanitse izuba, kugirango ngo bazibike neza zitazangirika, zimara igihe kinini niho zigira amafaranga, kuko ziba zisa neza, abantu barazikunda cyane ku isoko.

Ibishyimbo by'umutuku babishyize hamwe birarundanye abantu barabikunda cyane byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu, agakora afite ingufu, akiteza imbere.

Soya zirundanye hamwe, hejuru hari ibifuniko byazo hari ibindi bifuniko bikirimo soya. Soya ni nziza ku mubiri w'umuntu, abantu barayikunda cyane igihe bazikaranze, ziba ziryoshye.

Amasaka ni meza yera impeke ze ziri hejuru, iyo yeze umuyaga urayahungura akagwa hasi, bisaba kugira ngo uyasarure atari yuma cyane.

Umutiba wa kera, abantu bashiragamo imyaka ikabamo igihe. Inyuma hari ishyamba hari amabuye, hasi hari ibyatsi hari n'igiti cyakuze.

Imifuka y'ibigori, hari imifuka ihagaze, iyindi itondetse neza, iyindi iri iruhande iramanuye. Inyuma hari igikuta cy'mweru gifite uturongo twumukara, aho babika amafu kugira ngo atangirika.

Abahinzi bishyize hamwe bafite amabase mu ntoki arimo imyaka, imyaka isa n'umukara barayanitse ngo yume neza maze bayihunike igihe kirekire.

Ibihingwa biri mu murima byiganjemo amasaka. Amasaka ni meza cyane abantu barayakunda. bayabeteshamo igikoma. Igikoma abana baragikunda cyane. Gituma bakura neza bakagira ubuzima bwiza.

Umugore yicaye arambirije, ari guhungura ibigori, imbere ye hari akabase, hirya ye hari ibindi bigori by'amabara, ari kubihungurira mu ibase kugira ngo yongere umusaruro ajye kubigurisha, abona amafaranga.

Ibishyimbo biri ku mifuka ,bari kubirobanura ,bari kuvanamo ibitameze neza ,n'abantu babihinze bashyize hamwe babivangura.

Ibishyimbo by'umutuku abantu benshi barabikunda cyane kuberako byera ahantu hose, bigakura cyane bakabishingirira bikagira umusaruro mwinshi, bakajyana no mu masoko.

Ibigori biri mu murima birumye cyane, abantu bari hafi kubisarura, iyo babisaruye, babishyira mu mufuka, bakabijyana, bakajya kubihungura, babiteshamo ifu, ifu ni yo bakoramo agahunga.

Ibishyimbo biri mu cyibo. Inyuma handitse urupapuro rw'amazina byitwa. Biri ku mufuka w'umuhondo, inyuma hari abantu bari kubigurisha. Ibishyimbo biraryoha abantu barabikunda, cyane cyane iyo bitetse bigashya neza.

Ingano ni ikinyampeke gihingwa neza, bakagifumbira gisa n'icyatsi. Iyo cyeze abantu baragikunda, kuko bagikoramo ibintu byinshi bituma abantu babaho neza.

Imifuka irimo imbuto zitandukanye, hari ibisa n'umweru, hari ibisa n'umutuku, byose ni byiza ku mubiri w'umuntu cyane cyane, igihe wabiriye bivangavanze.

Ibishyimbo bigufiya bya kijyambere byera vuba. Abahinzi barabikunda iyo ubi biteye ubijyana ku isoko, ukagira amafaranga ukikenura, ukagira imibereho myiza.

Abahinzi bari kwanika ibihingwa byabo. Hari ibyo bafite mu ntoki, hari ibyo bari kugosora. hagati yabo hari ibase, hirya hari imyaka iri mu mifuka itondekanye ku murongo.

Umugabo ari mu muhanda yambaye imyenda y'umukara avuye gusarura ibishyimbo. Igare ni ryiza cyane rituma utavunika igihe ufite imyaka myinshi cyane, uyishira ku igare ukarisunika.

Ibihingwa by'ibinyampeke byera bigerekeranye, hari byinshi bicucitse. Iyo umuntu ari kubisarura agenda avanaho utwo hejuru ni two tuba dukenewe, kugira ngo umusaruro ugwire.

Ibishyimbo birebire, kugira ngo byere neza mubiha ibiti birebire bikomeye byiza, bitazavunwa n'umuyaga, iyo byeze kuri ibyo biti bitanga umusaruro uhagije.

Abagabo babiri bari impande y'imifuka itanu ihagaze neza, ipakiyemo ubunyobwa busa n'umutuku. Hari bumwe bwatonotse busa n'umweru. Ubunyobwa ni bwiza ku mubiri w'umuntu.

Umuhinzi ari mu murima ari kubagara imbuto ze, imbuto ze zisa neza zisa n'icyatsi izisa nabi yagiye arazirandura, imbere ye hari agafuka gahagaze karimo ibintu yagapfundikiye umuhinzi yambaye ingofero.

Igisobane abantu bakibikagamo ibishyimbo mu gihe cya kera, cyabikaga ibishyimbo neza kigatuma bitanundwa, ntibinasandagurike hasi.

Ubunyobwa barunze hamwe busa neza kuko babutonoye bavanyeho ibihu, ubunyobwa ni bwiza cyane ku mubiri wa muntu. Iyo wabuwuriye ugira ubuzima bwiza ugakura neza nturwaragurike.

Imbaho zitondetseho udufuka dutondetse ku murongo dusa n'umweru, turimo amabara y'umutuku. Hirya hari iyindi mifuka irimo imyaka. Yegamye ku gikuta gisa n'umuhondo.

Inyana ziri kurisha, ni iz'amabara abantu baraziragiye, bambaye udupfukamunywa ,Izuba riri kuva rituma zirisha neza kuko ibyatsi biba byumutse bikazigirira akamaro.

Ingurube za kijyambere ni nziza cyane, kuko iyo umworozi azigaburiye neza zimuha inyungu nyinshi cyane.

Ingurube bari kuzigaburira, ziri mu kiraro cya kijyambere, ingurube ni nziza abantu barazorora, zikabaha amafaranga bakiteza imbere, bakagira imibereho myiza, bakagira amafaranga.

Ingurube za kijyambere ziri kumwe ari ebyiri, ziri mu kiraro cy' imbaho zitambitse, inyuma hariyo izindi nyinshi, imwe iri kurya ibyatsi, indi iri inyuma, ni ingurube z'amabara.

Ingurube iryamye, ni iya kijyambere ibyara ibyana byinshi. Iri kumwe n'umworozi ari kuyisukurira, iri mu kiraro kiriho imbaho zitambitse z'umukara. Umworozi ari kumwe na zo, yambaye bote z'umukara, ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru.

Agatete bagashyizeho amagi y'umweru, ararundanyije, aragerekeranyije, amagi ni meza cyane ku buzima bw'umuntu, asimbura inyama, kandi ni intungamubiri.

Ahantu bororera inkoko ziba zihari ari nyinshi cyane zicucitse, zinywera amazi rimwe ,bakazihera ibiryo rimwe, zigaterera rimwe ,zitanga umusaruro uhagije cyane abazorora barunguka.

Intama iziritse mu mugozi. Inyuma hari ikizitiro cy'ibiti. Hari ikindi gitambitse hari ubwatsi igenda iri kurisha. Intama ni imwe mu matungo bagurisha, bakabona amafaranga menshi bakikenura.

Ingurube ni nziza cyane, abantu bakunda kuzorora kuko zibaha inyama, zikabaha n'ifumbire bagahinga imyaka, imyaka igakura neza imeze neza babikesha ifumbire y'ingurube, ingurube ni iy'agaciro abantu barayikunda cyane.

Ingurube ya kijyambere isa n'umukara, yororewe ahantu heza, harimo sima. Imbaho zitambitse ahantu bagaburira, ifite amabere menshi, irabyibushye, ifite amatwi agiye mu maso, ifite umunwa, Amazuru abiri.

Ingurube za kijyambere ziri hamwe ni nyinshi, ni iz' amabara, abazoroye batera imbere kuko zikura vuba, zikanororoka byihuse.

Umudamu ahagaze mu nkoko, yambaye ipantaro y'ubururu, afite agapira k'umweru, ari kuzigaburira, afite igikombe cy'umweru, harimo ibiryo bitunga inkoko zikamuha umusaruro uhagije.

Ikiraro cya kijambere giteye imbaho z'umukara. Bakunda kororeramo ingurube cyangwa inkoko zibaha umusaruro byihuse, bagatera imbere cyane.

Inka borore hamwe za kijambere zitanga umusaruro kubera ko zirya cyane, zikarya ibyatsi bisa neza biteguwe neza bakaziha amazi asukuye.

Bari gutera inka urushinge bambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiya y'umweru, bambaye ga z'ubururu bw'ijuru. Hari umudamu inyuma ufashe uri kubafasha hari undi mugabo uri kubafasha gutera inka abana barashunge...

Ingurube za kijyambere zibyara ibyana byinshi ,iby'amabara n'ibisa n'umweru ,ikunda konsa iyo yagaburiwe neza ibiryo by'intungamubiri, yonsa neza ibyana bigakura neza, bifite intungamubiri zaturutse kuri nyina.

Abagabo bari gutera inka urushinge, harimo uwambaye agapfukamunwa, inka bayishyize hagati, harimo uwambaye ingofero, ishati y'umweru, ishati y'umukara, uwambaye igisurubiti yambaye na ga z'umweru.

Ikibaya kirimo ihene y'amabara，abantu bakunda kuyorora， kuko ibaha ifumbire bakabaha amafaranga，bakivana mu bukene cyane， bakiteza imbere.

Ikiraro cya kijyambere harimo ingurube ihagaze isa n'umweru, kigizwe n'imbaho zihagaze, izitambitse ,zorowe ari nyinshi ,inyuma hariyo indi ,hari n'aho bagaburirira hari udutsinga dusa n'umutuku.

Inyoni eshatu imwe iri gutamika abana bayo bahagaze ku rusinga iri mu kirere irikubahira kuberako twe tudashoboye kuguruka.

Igisiga kiri hasi, kiri kugendesha amaguru, ariko kiraguruka, gikunda kurya inyama n'amavuta gitoraguye, cyane cyane aho bayasize.

Umusambi uri mu byatsi, ufite amabara menshi, ufite ijosi rirerire, ufite umurizo. Urikugenda ureba gake gake, ufite amaguru maremare awufasha gutambuka.

Ishyamba ry'inzitane rikunda kubamo inyoni isa n'umutuku, ifite umurizo muremure, amababa asa n'umukara, umunwa usa n'umutuku, amaso yirabura, igonze akazosi.

Agasimba kari kuguruka, kari mu kirere, gafite amabara y'umweru cyane, gafite amaso abiri. Abantu bakunda kukareba, kuko kaba gashimishije, gakurura ba mukerarugendo.

Inyoni isa n'umuhondo, ifite amababa y'umuhondo, umunwa w'umukara, iri kwarika icyari, ngo ijye irakibamo yo n'abana ba yo, batazajya baranyagirwa n'imvura.

Igisiga kigenda mu kirere kiguruka kizamuye amababa hejuru, kugira ngo kijye kiragenda kiri kujya aho kigiye biragifasha cyane, kuko amababa aba ari manini.

Ikibaya kirimo inyamaswa yitwa isatura, isatura ni ingurube yo mushyamba itinywa n'abanu cyane, isa n'umukara ifite amenyo yigoronzoye atuma irya ibyo yashatse.

Isha iyo uri kuyirebera kure ubona imeze nk'ihene. Ikunda kurisha ibyatsi byo mu ishyamba iba.

Igiti gifite amahwa, gihagazeho inyoni y'umukara, ifite amababa maremare, ifite umunwa wigoronzoye ifite amaso y'umuhondo, ifite umusatsi hejuru, iri kureba mu ishyamba.

Inyamaswa iri kugenda mu nzira, iri kumwe n'umwana wayo. Ifite amabara, ifite ubwoya ku munwa. Ni iy'inkazi abantu barayitinya cyane kuko iryana, kandi iteye ubwoba. Iri kureba iri kureba cyane.

Igisimba cyo mu ishyamba gifite amabara abiri, hari iry'umweru, umukara kiri kureba kure cyane.

Uduti duhagaze turiho inyoni, inyoni ifite amaguru y'umweru, ifite ibirizo binini cyane, iri kureba hasi nk'igiye gutora udusimba.

Ku nkombe hari ikigona. Ikigona kiri gushaka ibyo kirya. Gifite amaguru maremare, umunwa muremure, amababa y'umukara, bituma gishakisha ibyo kirya, bikanacyorohera kubera umunwa gifite ugifasha mu gushaka ibyo kurya.

Inyoni iri ku giti kiri mu ikirere, ifite amababa maremare, ifite inzara ndende, amaguru asa n'umuhondo, ifite umunwa w'mukara, ifite ubwoya bwi'kijuju, ifite agatuza karekare, iri kurebesha ijisho rimwe.

Akanyoni kari mu ishyamba. Gahagaze ku giti, gafite amababa y'amabara, gafite umunwa mutoya, kari kureba, gahagaze ku giti.

Inyoni iri ku giti kiri mu kirere, ifite umurizo muremure, ifite amababa y'umukara, ifite amaso y'umukara, ifite umunwa w'umukara usongoye iri kurereba nk'igiye kuguruka, igiye gufata agasimba.

Ishyamba kimeza ribamo ibisimba by'ibirura, bisa n'umukara, Gifite amatwi azamuye hejuru. Kiri kureba ruguru kiri no gutambika hirya.

Mu ishyamba ry'inzitane harimo inyoni ebyiri zifite ibirizo by'umukara ,amababa asa n'ubururu, imwe iri hejuru indi iri hasi zirakundana. Zose ziba ziri kujyana aho zigiye hose.

Inyoni iri ku katsi gasa n'icyatsi, ifite amaguru y'umutuku y'amabara, ifite umunwa w'umukara, ifite amababa y'umuhondo, ay'umutuku, iri mu kirere, iri kureba.

Igiti cy'umwumbati gifite ibabi bisa n'icyatsi, inyuma hariyo inzoka. Inzoka ni mbi cyane iyo irumye umuntu isigamo ubumara bukamwangiriza ubuzima.

Inyoni ihagaze mu giti, iri mu kirere, ifite ubwoya n'amababi asandaguje, ifite umunwa wigonze cyane, hejuru ifite amababa azamutse.

Inyoni ebyiri ziri kumwe zihagaze ku mabuye abiri, hagati hari umurongo witandukanyije, hagati yazo hari akatsi k'icyatsi, ziri gutoragura ibyo bizitunga. Inyoni ni nziza kuko ari ibidukikije.

Inyoni yitwa imbata, ifite amaguru asa neza irahagaze, ifite amababa y'amabara umweru n'umukara, ifite ibirizo birebire cyane, ifite iminwa isa n'umuhondo, iri kureba.

Amazi meza arimo igishuhe, igishuhe kiri koga, gifite umunwa muremure, gisa n'umweru, ntabwo kijya kibira kubera ko kizi koga.

Urukwavu ruri mu byatsi, hepfo hari ibiti birebire, rusa n'ikijuju, rufite amatwi azamuye ni urwo mu ishyamba.

Inyoni ihagaze ku katsi kari mu kirere ni nziza. Ifite amabara meza. Umuhondo, icyatsi, amababa maremare. ifite umunwa muremure. Ikurura ba mukerarugendo abantu barayikunda iyo iri kuguruka.

Inyoni iri mu ishyamba. Ifite amaguru y'umutuku ni maremare. Ifite amababa y'umukara ,amaso y'umutuku iri kureba i ruhande, ihagaze ku byatsi. Inyuma hari ibyatsi.

Igisimba cyo mu ishyamba gihagaze ku ibuye, gisa n'umuhondo ku mutwe, hagati gisa n'ubururu. Gifite umurizo, amaguru y'imbere ni maremare, ay'inyuma ni magufi, kiri kugenda kiri kureba inyuma.

Inyoni iri kwarika ahantu izajya iba. Irikwarikisha ibyatsi, isa n'umuhondo, iri munsi y'icyari, icyari kigizwe n'ibyatsi. Ifite umunwa w'umukara, amababa asa n'umuhondo igihagazeho iri munsi.